Iki ni icyumba cy'inama, imbere turahabona umuyobozi usa nk'aho arimo aragenda ababwira ibitekerezo bagiye kuganiraho harimo abagore n'abagabo. Imbere yabo turabona indangururamajwi hari amazi, hari imitobe bari bwifashishije mu gihe bari gukora inama hari icyuma kiba cyabafasha kuba babona amashusho imbere turabakibona kibateretse imbere bamwe barimo barandika kubyo barimo baraganiraho abandi baramutumbiriye bumva ibyo avuga mbese ni ukuvuga ngo bari mu nama bafite icyo bagamije.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Burya ngo ubuyobozi bwiza ni inkingi y'iterambere kandi bugera ku baturage, aha turabona umugore arimo arasuhuza abayobozi hicaye ingabo z'igihugu baramurareba mu maso baranezerewe asa n'ubashimira ku bw'imiyoborere myiza babagejeho, hari ku itariki ebyiri z'ukwagatanu bibiri na cumi na karindwi, aho ubona rwose ko anezerewe anejejwe no kuba yabasuhuza, abasuhuza mu cyubahiro ababwira ati mwarakoze cyane kutuyobora neza no kutugeza ku iterambere.

Aha turahabona abamama beza, bambaye neza, imbere yabo hateretse amaraputopu, hateretse amacupa y'amazi bigaragara ko bari mu nama, bakurikiye, hari umumama wambaye ikanzu ya shokora, imbere ye hateretse raputopu y'ibara ry'umweru, hari umumama wambaye ikanzu y'umukara, wambaye amarinete, imbere ye na we hateretse raputopu, afite telefoni mu ntoki, bigaragara ko bakurikiye urimo arababwira, barimo baramwitegereza kandi bumva neza ibyo ababwira.

Uru ni urubyiruko abakobwa n'abahungu ubona ko barimo barabwirwa kandi bakurikiye, bamwe baricaye abandi barahagaze inyuma, urabona ko ahantu bicaye inyuma hari urukuta rusa umuhondo, ku ruhande hari amatafari agiye asigwa amarangi, rwose urabona ko ari urubyiruko rukeye kandi basa neza, ubona ko ari abasore ndetse n'inkumi bajyanye n'igihe, kandi koko ubona ko batuje barimo barakurikira ibyo barimo barabwirwa.

Aba ni abantu bicaye barimo baraganira, inyuma yaho turahabona icyapa cyanditseho ko ari umunsi ku isi hose wahariwe ubukerarugendo, imbere turahabona umugabo wera wambaye ikote undi ni umumama umukurikiye, iruhande rwe hakurikiyeho umumama na we wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, ku ruhande rwe hicaye umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hicaye umumama wambaye ikanzu y'icyatsi, bisa nkaho barimo baraganira banezerewe bishimira ubukerarugendo.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abagabo batatu, babiri muri bo bambaye amakote ajya gusa n'ubururu bwijimye, bicaye ku ntebe z'imikara undi undi yambaye ikote ry'umweru na karuvati y'umweru n'ishati y'umukara mo imbere, bigaragara ko ari abantu barimo baraganira banezerewe aho bicaye hari intebe z'umukara hari ameza, hari amamikoro bateretse imbere bigaragara ko barimo baraganira ku bintu kandi barimo barafatiraho umwanzuro bose kimwe kandi banezerewe.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Aba ni abanyeshuri bicaye ariko bisa nkaho aba banyeshuri biga mu kigo cya kiyisiramu, kuko turabona bitandiye, bitandiye utuntu, udutambaro tw'umweru, bambaye imipira y'icyatsi, bambaye iniforume z'ubururu, baraganira, abandi barimo barakurikira imbere, ariko urabona ko ari abanyeshuri bafite icyo bari gukurikira imbere, basa nkaho hari urimo urababwira. Ku ruhande rwabo hari abandi banyeshuri batitandiye, bisa nkaho ari ihuriro abanyeshuri bahuriyemo ari benshi.

Uyu ni umudamu arahagaze yambaye ikanzu iri mu ibara rya move, urabona ko ni umudamu urimo uraganira wifitiye icyizere, imbere ye hatetse icupa ry'amazi rimufasha kuba yaganira, amazi adufasha kugira ubuzima bwacubube bwiza, adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, arimo aravuga ibintu ubona ko birimo bimurimo kandi abivuga afite ikizere.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo igitsina gabo, urabona ko barimo barakora imirimo itandukanye, hari ufotora, abandi bari mu nama imbere yayo hari umuyobozi, usa nkaho ari mo arababwira ibigiye kuvugirwa mu iyo nama, turabona idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ku ruhande turabona undi mugabo uhagaze usa nkaho arimo arandika, inyuma turahabona umudamu nawe wicaye usa nk'aho akurikiye inama, imbere yaba abateretse amacupa y'amazi mu kugira ngo inama yabo igende neza.

Wasanga nawe ufite izi mpano zitandukanye, gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano. Aha ngaha habonetse amahirwe y'uko ushobora kugaragaza impano yawe, ugatsindira miliyoni y'amanyarwanda. Ukeneye ibindi bisobanuro, twandikire, itariki ntarengwa ni itariki umunani z'ukwezi kwa cumi nakumwe, bibiri na makumyabiri na rimwe, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.

Ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro kiramenyesha abantu itariki ntarengwa yo kumenyesha no kwishyura avanse ya gatatu y'umusoro ku nyungu, uko ari mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri, aba ngaba barababwirwa kugira ngo batazarenza bakaba bacibwa ibihano. Uyu munsi ku itariki cumi n'ebyi z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, saa tatu n'iminota mirongo ine, kugeza saa tatu n'iminota mirongo itanu z'umugoroba, nibwo iryo tangazo ritanzwe.

Muri iki gihe ikoranabuhanga ni inkingi y'iterambere kuri buri muntu uwo ari we wese leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya mudasobwa kuri buri mwana, aho buri mwana ahabwa mudasobwa akigishwa uko ikoreshwa akaba yabasha kwiyandikira ibaruwa akaba yabasha kohereza ubutumwa ahantu hatandukanye akoresheje mudasobwa. Ni gahunda nziza cyane aho abarimu babitojwe banabyigiye bigisha abana uko mudasobwa zikoresha abana bakava mu mashuri bazi gukoresha mudasobwa neza.

Iri ni itangazo rimenyesha abasora y'uko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura kimwe cya kabiri y'umusoro ku nyungu yageze. Itariki ntarengwa n'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane. Menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa kugira ngo wirinde ingaruka zo kubikora ku munota wa nyuma. Ni ukuvuga ugomba kumenyekanisha umusoro wawe kugirango ngo wirinde ingaruka zo kubikora ku munota wa nyuma kugira ngo udacibwa ibihano.

Uyu ni umugabo ukora akazi ke mu irembo. Irembo ni ikigo cy'igihugu gifasha abantu muri serivise nyinshi zitandukanye mu z'ubutaka, mu kuba wasaba ibyangombwa bigiye bitandukanye, ni ukuvuga ngo uramutse ukoresheje irembo birakorohera ukirinda kuba wajya ahantu henshi usiragira, ukaba wajya ku irembo bakagufasha gukora ibyangombwa byawe bigiye bitandukanye no kumenyekanisha imisoro mu buryo bwihuse, uramutse utagiye gusiragira hirya no hino.

Uribaza uti ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako biteye bite? Nguku uko biteye, zeru n'ibice bitanu by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe guturwamo, zeru n'ibice bitatu by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe ubucuruzi, zeru n'igice kimwe by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza byagenewe inganda, inyubako n'ikibanza by'ibikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse. Ni uko biteye, ni uko ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro cyasohoye agaciro k'ibipimo.

Iyi ni ipoto abantu bakoresha bafatiraho umuriro bawuvana kupoto ujya mu ngo zabo ni ipoto ishinzwe ahantu hegeranye n'ibiti by'ubwoko butandukanye, turahabona imikindo inyuma y'iyipoto turahabona umunara muremure, hari ibiti by'indabyo ni ukuvuga ngo iyipoto ifasha abantu benshi batandukanye bayegereye.

Ibi n'ibitaro aho tubona inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isize amabara y'ubururu ndetse hariho n'amabati hejuru, imbere yaho turahabona jaride irimo ibiti, irimo ibyatsi, hari umuganga k'uruhande wegamye yambaye ikaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa, yambaye ipantaro, rwose arimo arareba muri terefone, inyuma witegereje neza turahabona ababyeyi babiri barimo baraganira basa nkaho bagannye ibi bitaro.

Aba ni abarwayi ubona ko bari ku murongo bose bari aho basuzumira bategereje kuba bakwinjiramo turahabona umwe wicaye mu kagare, hakaba undi mubyeyi wicaye ku gatebe wambaye ibitenge byiganjemo amabara y'icyatsi nyuma ye hari umugabo wambaye umupira urimo amabara atukura, ndetse n'umukara akaba yambaye ipantaro undi arimo arinjiramo bisa nkaho bose nyine bari ku murongo bategereje ko bavura umwe kuri umwe bamunyuza nko basuzumira.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Ese wari uzi ko urukiko ari inzira nziza yo kuba wakemura ibibazo byawe na mugenzi wawe mutabanje kuba mwajya mu makimbirane? Aha ngaha turi mu rukiko, aho hari abagabo babiri bambaye amakanzu tumenyereye ko umwe aba aburanisha, abandi bunganira abantu mu mategeko. Hagati yabo hicayemo umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye na kositime. Aha ngaha mu rukiko, umuntu iyo afite ibimenyetso atsinda neza nta mbogamizi.

Ese wari uziko ubutabera ari inzira y'ukuri? Aha ni mu rukiko aho tubona uburana ndetse n'uburanisha. Uburana turabona ari nk'umugororwa kuko yambaye imyenda tuzi ko abagororwa ba hano mu Rwanda bakunda kwambara iyo twita amaroza. Mu rukiko rero turahabona abagabo batatu bicaye hejuru, bambaye amakanzu, bambaye udupfukamunwa, amakanzu ari mu mabara y'umukara n'umweru, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange.

Aba ni abadamu bari muri gereza bambaye imyenda igiye itandukanye bamwe bambaye amaroza, abandi bambaye ibya orange, aba bagore bicaye nk'abari mu nama barimo baratega amatwi. Gereza ubundi ifasha abantu mu kuba yabagorora baba barakoze ibyaha bakagororwa, bakigisha kugira ngo nibagaruka mu buzima bwo hanze bazabe ari abantu bazima.

Aha ni mu nama aho abantu bateze amatwi bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe. Ni inama yahuje abagore ndetse n'abagabo turabona umugabo uhagaze ufite urupapuro yambaye neza, asa nkaho ariwe uyoboye inama cyangwa ariwe ufite ijambo mu nama arimo arababwira ibigenderwaho cyangwa ibyo baganiraho muri iyi nama.

Ubutabera ni inzira iganisha ku kuri ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge aba ni abagore n'abagabo barimo bararahirira u Rwanda ku mugaragaro bafashe ku ibendera bazamuye n'akaboko bavuga bati," Tuzaca imanza zinyuze mu kuri ndetse n'umucyo nitubirengaho tuzabihanirwe."

Aba ni abagabo babiri barimo bararamukanya umwe n'umugororwa undi n'umuntu uri mu buzima busanzwe. Hano mu gihugu cy'u Rwanda tumenyereye ko abagororwa bambara imyenda y'iroza mu gihe bari muri gereza barimo baragororwa kugira ngo nibasubira mu buzima bwabo bwa buri munsi baza bagorowe ibyaha bakoze atakongera kubikora ukundi, ubundi kuba umuntu yagororwa n'ibintu bituma yiga kandi akaba yamenya neza ko icyaha yakoze atagomba kongera kugisubira ukundi.

Wasanga ujya bibazati gacaca ni iki? Gacaca ni gahunda leta yashyizeho nyuma ya jenoside kugira ngo abantu babiburane binyuze mukur,i kandi bemere ibyo bakoze kugira ngo ukuri kuganze. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda bari baragiye bahemukirana, rero bikaba ngombwa ko bo ubwabo hagati muri bo baburanisha uwakoze ibyaha akabyemera, akabihanirwa kandi agasaba imbabazi, hakabaho ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Ubu byaroroshye mu gihugu cyacu, aho uramutse uhuye n'inkongi y'umuriro, ushobora guhamagara polisi yacu, ukaba wayibwira bakaza bakagufasha. Bafite ikipe nini igomba gufasha abantu mu kuba bazimya uwo muriro. Aha ngaha barimo barigisha abanyeshuri uko bashobora gukoresha za kizimyamwoto kuko zagiye zikwirakwizwa ahantu henshi hatandukanye, ku buryo uramutse uhuye n'inkongi y'umuriro, ushobora kuba ufite kizimyamwoto aho hafi nawe ukaba wakwizimiriza umuriro.

Imwe mubiza bikunze kubaho n'inkongi yumuriro zikunze kubaho. Rero ubu byaroroshye cyane wajyaga wibaza ngo ntewe n'inkongi y'umuriro cyangwa umuturanyi nyumuriro nabigenzante? byaroroshye cyane reta y'Urwanda yatuzaniye kizamya mwoto. Aho ushobora gukoresha iki cyuma. kenshi kiba kiri mumabara y'umutimu cyangwa y'umweru. Uragifata ukigishwa uko gikoreshwa kuburyo uramutse utewe n'inkongi yumuriro iwawe wakifasha byaroroshye cyane.

Wasanga ujya wibaza uti ndamutse mpuye n'ikibazo inzu yanjye ikaba yafatwa n'inkongi y'umuriro nabigenza ute? Humura byaroroshye hari ikipe iba ishinzwe kuba yagufasha mu kuba yazimya inkongi y'umuriro mu rugo rwawe, ariko byaroroshye ushobora kuba wagura icupa nawe ushobora kuba waba uteretse mu rugo rwawe, ku buryo nawe inkongi y'umuriro iramutse ibaye nawe wakwifasha. Uyu ni umugabo arimo arigisha uko iryo cupa ryo kuzimya inkongi y'umuriro ryakoreshwa abanyeshuri ku mashuri.

iyi ni inzu ndende abenshi dukunze kwita ama etaje, imbere yayo hubakishijwe amapave, haparitse amamodoka atandukanye ariko turahabona imodoka ya polisi abenshi dukunze kwita ku izina rya pandagare, imbere yayo hari umupolisi urimo aragenda, imbere nanone hari icyapa cyerekana aho abanyamaguru bambukira, hari agakoresho bajugunyamo imyanda mu rwego rwo kuba twagira isuku, ni isuku kandi tudakwirakwiza imyanda ahantu hagiye hatandukanye.

Uyu ni umudamu turabona yambaye rinete, yambaye ikote ry'icyatsi n'ijipo itukura, ni umudamu wunamye arimo arasinya, inyuma turahabona umugabo urimo arareba ibyo asinya, turahabona abandi bagabo babiri bisa nk' baririmo baramufotora bigaragara nkaho ari umuntu urimo akora igikorwa kiri ku karubanda, abantu bose bakeneye kumenya amakuru y'i gikorwa yakoze.

Uyu ni umu papa ufite ubumuga ugendera mu kagare gakunze gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, biragaragara ko yaje gutora aho arimo arafata amajwi y'uwo yatoye ayashya mu gasanduku k'itora rwose gutora ni ibyiza bituma uwo wihitiyemo cyangwa ibyo wihitiyemo bigukorerwa nk'umunyagihugu ari wowe wabyitoreye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame bigaragara ko yambaye ingofero yambaye, amarinete, yambaye agapfukamunwa, yazamuye ukuboko afunze igipfunsi rwose ubona ko arimo ariyamamaza, abantu bazamuye ama darapo ariho ishyaka rye rya fpr inkotanyi bigaragara ko bamwishimiye kandi bamukunze, imbere turahabona umugabo nawe wambaye ingofero yanditseho ngo PK mu magambo arambuye ni Paul Kagame.

Azure foregisi biro iherereye kwa rando mu mujyi wa Kigali, werekeza i Remera, ni biro deshanje ivunja neza.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ari imyambaro ya polisi, bahagaze iruhande rw'inzu ntoya mu marembo y'ikigo cya polisi ishami rya Remera.

Ese wari uziko buriya umuntu kugira ngo ahabwe inshingano abanze akarahira ahangaha turahabona abadamu bafashe ku mabedera y'igihugu imbere yabo hari indangururamajwi barimo bararahira bafashe ku mabendera y'igihugu cy'URWANDA imbere yabo hari umukuru w'igihugu ahandi turahabona inyuma yabo aho hari abantu babateze amatwi barimo barumva indahiro barahira buriya ni byiza kugira ngo abantu barahire barahirire inshingano bahawe ko bazazikora neza kandi uko babitegetswe iyo babirenzeho barenze ku ndahiro barabihanirwa

Iyi ni ifoto y'uwahoze ari umukuru w'igihugu witwga KAYIBANDA Gergwari yambaye karavate mo imbere turabonamo ijire inyuma turahabona ikote yambaye ishati y'umweru atumbiriye asa nk'ureba imbere uyu mugabo yari umugabo wayoboye igihugu cy' u Rwanda mu myaka yo hambere.

Uyu ni umugabo wambaye imikenyerero, yambaye urunigi mu ijosi. Imikenyero ni imyambaro kera abanyarwanda bajyaga bambara ariko n'ubu turayikoresha kuko n'uyu ni imyambaro y'umuco wacu, arimo aravugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari intebe z'imyeru hari n'icyapa kimushushanyijeho, hicaye abantu bisa nk'aho bamuteze amatwi wumva ibyo ababwira.

Aba ni abantu batatu baraganira banezerewe barimo baraseka bishimye bafite akanyamuneza ku maso yabo. Ni umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye yambaye ishati y'umweru, yambaye karuvati y'umutuku, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu yu'ubururu yambaye amarineti mu maso araseka rwose aranezerewe iruhande rwe hari undi wambaye imyenda irimo utubara tw'umutuku ndetse n'utubara tw'ubururu bigaragara ko barimo baranezerewe ibyo barimo baraganira bibashimishije

Iki ni ikirango cy'umuryango efuperi inkotanyi kigizwe n'amabara atatu, ubururu, umutuku, ndetse n'umweru. Intumbero y'uyu muryango ikaba yanditse muri aya mabara y'umuhondo ariyo demokarasi'ubumwe n'amajyambere. Muri iki kirango turabonamo intare, turabonamo ikimenyetso cy'ukwezi bigaragaza ko ari umucyo, uyu muryango wa efuperi inkotanyi itanga umucyo ku banyarwanda, ndetse no ku bantu bose bagana u Rwanda.

Aha turahabona ibisubizo byaturutse mu matora yo gutora umukuru w'igihugu, hari ifoto ya perezida Paul KAGAME, hariho Frank HABINEZA na Philippe MPAYIMANA, biragaragara ko Paul KAGAME yatsindiye ku kigereranyo cy'amajwi mirongo icyenda n'icyenda N'ibice cumi na bitanu, Frank yagize zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana undi yagize zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri, bigaragaza ko perezida Paul KAGAME yatsinze ayo matora abo bahatanirwaga.

Uyu ni umugabo ndetse n'umugore, bambaye amashati asa, umugabo afite icumu ndetse n'ingabo. Ibingibi byakoreshwaga mu muco wa kera w'abanyarwanda umuntu agiye ku rugamba. Umugore ateze urugori. Uru rwakoreshwaga nk'ikimenyetso cy'uko wabaye umugore. Inyuma yaho turahabona abantu benshi babakikije, abagore ndetse n'abagabo, bisa nk'aho babareba bumva cyangwa bategereje kumva icyo bagiye kubabwira.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo barimo bararahirira igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano zibahaye bazazikora neza kandi n'imbaraga zabo zose kandi banyujije mu kuri, bafashe ku mabendera y'u Rwanda bazamuye akaboko k'iburyo buri wese afite indangururamajwi imbere ye, arahirira u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano igihugu kimuhaye azazikora neza kandi ntagamiye nabirengaho azahanwe.

Aha ni mumuhanda nyabagendwa harimo imodoka, zimwe mu modoka nini abantu benshi bankunda kuyikoresha mu gihe cy'ubwubatsi batwara ibikoresho by'ubwubatsi, ifite amabara y'umwru ndetse n'amapine y'umukara, iruhande rwayo turahabona umunyegare atwaye umuntu ndetse ufite n'agatwaro mu ntoki, uwo muntu atwaye yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro ndetse y'umweru, umutwaye yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ni umuhanda nyabagendwa.

Iyi modoka ikaba yikoreye icyo twese tuzi nka kontineri, iri mu muhanda. N'imodoka ifite ikizuru cy'imbere cy'umweru, ku gikontineri yikoreye kiri mu mabara y'umutuku. Ni imodoka iri mu muhanda , umuhanda ukikijwe n'ibiti n'imodoka ubona ko isa naho ifite umuzigo, irimo irawuvana hamwe iwujyana ahandi.

Ese waru ubizi ko iyi ari imodoka kakunze gukoresha batwara amazi bayavana hamwe bayajyana ahandi ushobora kuyifashisha mugihe urimo urubaka ahantu hatari amazi iruhande rwaho hari ibiti birebire ubonako witegereje neza inyuma hari abantu bari mo kubaka bisa naho ihatwaye amazi yo kubaka.

Kera hajyaga habaho kuba wabura imodoka, ukaba warara nzira ariko ubu Leta y'u Rwanda yagutekerejeho, yazanye imodoka nziza nini ziri mu bwoko bwa ritiko, ni imodoka nini ushobora kwicaramo ukaba wisanzuye kandi n'imodoka itwara abantu benshi, bigaragara ko ubucucike bw'abantu no kuba abantu baraburaga ibinyabiziga bibatwara, ubu byaragabanutse kuko ubu ngubu hari imodoka nini zitwara abantu, zibavana hamwe zibajyana ahandi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamoto, harimo amagare, harimo imodoka nini tumenyerewe ku mazina ya za rukururano zitwara ibinyabiziga zivana hamwe zibijyana ahandi, harimo iminara, harimo amapoto inyuma yaho turahabona ishyamba rinini cyane bigaragara ko ni umuhanda uturanye n'ishyamba.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda, umuhanda ubona ko nyabagendwa, ku ruhande hari ibiti n'imodoka iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, itwaye ibyo bita gaze, gaze ni uburyo bushya abantu basigaye bakoresha mu guteka, mu rwego rwo kugira tutangiza ibidukikije bakoresha gaze, birinde kujya bajya gutema ibiti mu mashyamba kugira ngo tutangiza ibidukikije, umwuka ube mwiza.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nini itwara abagenzi ibavana hamwe ibajyana ahandi, turahabona amamodoka abiri y'abantu ku giti cyabo, turahabona moto itwara nayo abagenzi, ni umuganda ubona ko ari mugari kandi wagutse ibinyabiziga bishobora kuba byanyuramo kandi neza nta kibangamiye ikindi.

Iyi ni inyubako yubatswe neza mu uburyo bugezweho ahashyirwamo ibyumba byinshi bifasha abahakorera kwisanzura.

Ese wari uziko bitakiri ngombwa guhangayika wibaza ngo nakoresha iyihe modoka ngiye mu bikorwa byanjye bitandukanye mu gihe njye ntaragura ikinyabiziga cyanjye? Nk'uko mubibona ahangaha hari ahantu haparitse amamodoka atandukanye n'ay'uruganda bita yego, ushobora kuyihamagara ikaba yazi ikagukura iwawe mu rugo ikakujyana aho ariho hose wakwifuza, bagira serivisi nziza kandi ku giciro cyiza.

Iki ni ikibuga bakiniramo umukino wa basiketi boro, bigaragara ko imbere hari aho bateramo uwo mupira wa basiketi boro, inyuma turahabona ibiti bitanga umuyaga mwiza, turahabona ibyatsi abantu bicayemo, turahabona ahantu harunze amabuye, n' ikibuga gisize amarangi y'umutuku ndetse n'icyatsi, ubona ko ari ikibuga cyiza kibereye gukiniramo uwo mukino wa basiketi boro, umukino mwiza cyane!

Bantu mutuye umujyi wa Kigali mwibazaga ngo mwajya mukorera hehe imyitozo ngororamubiri leta y' u Rwanda yarabibutse, yashyizeho igice cyihariye cyo kuba wakoreraho siporo aho ubona ari nk'igice cy'umuhanda basizemo irange ry'icyatsi ariko mu by'ukuri si irange ahubwo ni ahantu bubatse neza bahagenera igice cyo gukorerwamo siporo.

Kumenya amategeko y'umuhanda ni kimwe mu bintu umuntu aba akwiye kumenya kugira ngo nk'abantu dukoresha umuhanda, tube twagenda muhanda neza. Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, hagati harimo imirongo ikatakakase y'umukara ndetse n'umuntu usa nk'aho arimo aratambuka. Iki ni icyapa gishyirwa ku muhanda cyerekana ko aho hantu ari aho abanyamaguru bagomba kwambukira, bityo rero iyo umunyamaguru arimo arambukira aho hantu, biba byemewe ndetse n'ibinyabiziga birahagarara akabanza akambuka.

Iki ni ikimenyetso cyerekana kuzamuka mu by'ukuri iki kimenyetso bagishyira ahantu berekana ko abantu bagomba kuzamuka mu mugihe nta muntu uhari ngo abarangire, ni ikimenyetso kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu akenshi bakunze kugishyira ahantu mu gihe bakwereka abantu ko bagomba kuzamuka imbere yabo.

Iki ni icyapa kiri mu maba ya oranje ndetse n'umukara ni icyapa kigaragaza ko hari imirimo iri gukorwa mu muhanda irimo irakorerwa imbere. Iki cyapa bagishyira ahantu harimo hararanga ko hari imirimo irimo ikorerwa imbere kugira ngo bigaragare ko nta muntu wemerewe kuharenga kugira ngo nuhagera umenye ko hari ibintu birimo birakorerwa imbere, wirinde kuba wabyangiza cyangwa wajya kuhajya kandi bitemewe.

Wasanga nawe utazi akamaro k'ibyapa mu muhanda. Iki cyapa giterekwa mu muhanda kigaragaza ko aho hantu imbere yacyo ariho abanyamaguru bagomba kwambukira. Ahangaha niho umunyamaguru yambukira ava mu ruhande rumwe ajya murundi, n'iyo arimo arambuka ibinyabiziga biba byayibonye bigahagarara akabanza akambuka.

Ni abantu bakoraniye ahabera imikino, biganjemo urubyiruko rugizwe n'inkumi n'abasore, bicaye kudusima dusize amarangi atukura na ho hari ibikuta by'umuhondo biri inyuma yabo.

Iyi ni inzu ndende abenshi dukunze kuzita ngo ni amaetage, ikigaragara ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bitandukanye hakorerwamo na banki ya Kigali, hagakorerwamo n'umushinga witwa africa Afurika rarigesiti ryivi pureya, imbere y'iyo nzu haparitse abamotari imbere y'inzu na none hari ibyatsi bihateye hari ibiti bitanga umuyaga mwiza ni inzu ubona ko ari nziza kandi yubatse bijyanye n'icyerekezo.

Aka ni agace kamwe aho bita nyagatovu, harimo amazu ashaje ubona ko yubatswe kera kandi yubatswe mu buryo bw'akajagari, ni amazu ubona ko afite amabati ashaje, ni amazu ubona ko rwose ari mu kangaratete. Ni amaze ubona ko yubatse bitajyanye n'igihe ruguru yaho turahabona ibiti, turahabona insina. Ni amazu rwose ubona ko abayatuyemo badatuye neza.

iyi ni inyubako ndende abenshi dukunze kwita etage, ni inyubako yubatse mu mabara y'umweru ndetse ifite n'ibirahure by'ubururu, ni inyubako ikoreramo ikigo cy'imari cyitwa zigama. Zigama ni ikigo cy'imari urwego rw'igihugu rwashyiriyeho abashinzwe umutekano harimo abasirikare ndetse na polisi, iki kigo rero gikora neza kibafasha mu kwiteza imbere mu mirimo yabo ya buri munsi.

Sitasiyo ya enjeni iri ku ku muhanda hirya hari rompuwe ya jaride itara rihagazemo, ipoto ndende iriho insinga nyinshi, umumotari uhetse igikapu.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo; amamoto harimo amagare harimo moto nayo itwara imizigo ishobora kugufasha mu kwimuka, ishobora kugufasha mu kujyana ibintu bimwe bivana ahandi harimo; moto zitwara abantu mu buzima bwa buri munsi harimo n'igare bamwe muri twe twifashisha mu ubuzima bwacu bwa buri munsi dukoresha.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, harimo n'ihuriro ry'imihanda, ni umuhanda ubona ko uteyemo ibiti biri mu bwoko bw'imikindo, tubonamo ibiti biwukikije bitanga akayaga keza, tubonamo hateyemo ibyatsi byiza, ni umuhanda ubona ko uragendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, turabonamo amamodoka, amamoto, harimo ibyapa bigiye bitandukanye byamamaza, harimo amatara meza, ni umuhanda ubona ko ujyanye n'igihe.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka ebyiri z'amabara atandukanye harimo n'umutuku n'umweru harimo igicucucucu cy'umuntu, harimo akapa gashushanyijeho amabara y'umutuku n'umweru, hari ibiti by'icyatsi biteye hejuru, ibiti bizana umuyaga mwiza mu umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa abantu bakoresha bagenda m'uburyo bugezweho apana ya mihanda ya kera uyu n'umuhanda wa kaburimbo mu mihanda igezweho abantu bakoresha mu migenderanire yabo ya buri munsi.

Mu muhanda nyabagendwa, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka n'amamoto, ari kuruhande turahabona uruhande rw'abanyamaguru aho hari icyapa kigaragaza ko utemerewe kuhaparika ikinyabiziga, turahabona ibiti bitanga umuyaga mwiza, turahabona amuu ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabyo nziza.